Abasirikare ni urwego ruba rukomeye mu gihugu kuko rufasha mu kugarura umutekano mu gihugu, rukarinda n'abaturage ku buryo nta muntu ushobora guhungabanya umutekano, ushobora kwinjirira igihugu.

Udutebo ni twiza cyane, badukoresha mu gutwara ibintu bitandukanye, ku buryo abantu benshi batwifashishaga, no mu buryo bwo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, kandi ni na bwiza cyane kuko budufasha mu bintu byinshi bitandukanye.

Computer ni igikoresho abantu bakoresha mu bintu byinshi bitandukanye. Bagikoresha biga ku ikoranabuhanga. Ushobora gukoresha computer uyigiraho cyangwa se no kohereza amakuru igihe cyose ubishakiye.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi; twavugamo nk'amabisi yifashishwa mu gutwara abagenzi mu mihanda, kandi agabanya igiciro k'ingenzi. Iby'ingenzi fatizo ngenderwaho wishyura igihe bagutwaye.